Uburezi bw'abana b'inshuke, aho bahabwa ibikinisho bye bitandukanye by'amagare bikoze mu nsinga, bigatuma abana bamenya kwihimbira ndetse no kwihangira imirimo.

Gahunda y'uburezi igabana n'inshuke, aho bahurizwa hamwe bakigishwa ndetse bagahabwa amahugurwa atandukanye ndetse n'amasomo abafasha kwisanzuranaho, gushushanya ndetse no kumenya amabara atandukanye.

Ikigo cy'amashuri abanza ndetse n'ay'inshuke aho gitanga serivisi z'amasomo zo mu masomo kandi kigatanga n'amahugurwa ku bukerarugendo ndetse n'iby'amahoteli.

Igikoresho cyifashishwa mu kwigisha abana bari mu rwego rw'amashuri y'inshuke, bityo bituma basobanukirwa ndetse bakamenya, akamaro ka buri kimwe kandi bagafunguka mu mutwe.

Uburezi bw'abana b'inshuke, aho bigishwa kwandika neza ku kibaho, biga inyuguti za A na B ndetse n'izindi zigiye zitandukanye, bityo bigatuma umwana akura mu mutwe.

Uburezi mu mashuri inshuke aho abanyeshuri bahabwa ibikinisho biri mu mabara atandukanye bibakangura ubwonko bigatuma batekereza ndetse bakabona n'uko bisanzura ku bandi kandi bagakura mu mutwe.

Amashuri y'inshuke ndetse n'uburezi bwerekeyeho, aho abana biga mu byumba byabugenewe bishushanyijeho udusimba, ibiti ndetse n'ibikoresho byifashishwa mu rugo.

Uburezi bw'amashuri y'inshuke, aho abana bahabwa ibikoresho bitandukanye, harimo amakaramu afite amabara menshi agiye atandukanye nk'umutuku, umuhondo ndetse n'andi bityo bikabafasha kwiga ndetse no gusobanukirwa neza.

abanyeshuri bari mu burezi bw'incuke aho bahabwa uburezi butandukanye kandi u basanga ku mashuri yabo ashushanyijeho amashusho agiye atandukanye

Ibigo by'amashuri y'incuke ndetse n'uburezi bwerekeyeho, aho abana bahabwa ibikinisho bitandukanye, berekana imikino bagomba gukina kugira ngo bisanzuraneho.

Amashuri y'incuke ndetse n'uburezi bwegamiyeho, aho abana bakina ibikinisho bitandukanye ndetse mu mabara menshi, atuma ubwonko bwabo bukanguka kandi bukajya ku murongo.

Ibishushanyo byerekwa abana bari mu mashuri y'inshuke harimo: intare, imodoka, imbogo ndetse n'utundi dutuma abana bacangamuka mu mutwe.

Amashuri y'inshuke ndetse n'uburezi bwabo buberekeyeho aho mu byumba by'amashuri bigiramo haba hashushanyije ibigiye bitandukanye harimo nk'ibibabi berekana ibice bikigize ndetse n'ibindi.

Uburezi bw'abana b'incuke, aho bari hamwe bari gukina bicaranye n'umusaza, ari iruhande rwabo yinywera itabi atumura.

Gahunda yo kurera abana b'inshuke, cyane cyane abari mu myaka mitoya, aho bahabwa ibikinisho by'imodoka ndetse n'ibindi bitandukanye, biri mu mabara menshi, icyatsi umweru, umukara ndetse n'andi yose.

Amashuri y'inshuke, aho abana biga bakigishwa gukora ibishushanyo ndetse n'ibipupe, mu bikoresho dusanga muri sosiyete isanzwe, aho bareba ibiganiro by'itetero bityo bigatuma abana baganira ndetse bakamenyana.

Ibishushanyo biba ku mashuri y'abana b'inshuke, aho bigishwa buri kimwe kandi bareba ku mashusho, bityo bigatuma ubwonko bwabo bumenya kwivumburira.

Indirimbo ziririmbwa n'abana bo mu mashuri y'inshuke baririmba bati nkunda gusiga irangi, ndetse bagenda bazunguza kandi bishimye.

Urwego rw'amashuri y'inshuke, aho abana bicara hamwe bakiga, bakurikiye ndetse mugenzi wabo abafasha kumva aho badasobanukiwe, bityo bigatuma bunguka ubwenge mu buryo bwose.

Uburezi bw'amashuri y'inshuke aho abana bifashisha ibikoresho byabugenewe kugira ngo bakine kandi bisanzuraneho, iyo biri mu mabara yose.

Uburezi bw'abana b'inshuke aho bashyirwa hamwe bakisanzuranaho kandi bagakora imikino igiye itandukanye nk'ibyicungo ndetse n'ibindi bityo bigatuma bakura mu mutwe kandi bakaba abantu bakuru.

Abanyeshuri b'inshuke, barimo mu kwiga uko inyoni zibayeho ndetse n'inkoko bityo bigatuma bishima kandi bagafunguka mu mutwe.

Uburezi bw'abana bari mu mashuri y'incuke, aho bahabwa ibikenerwa byose kugira ngo bige kandi banezerewe, bagahabwa ibikinisho by'ibyicundo kandi bibafasha kwishimana.

Inyandiko zitandukanye z'inyajwi mu buryo bwose yaba mu cyapa ndetse no mu mukono, aho abana b'inshuke bigishwa kwandika ndetse no kunoza inyandiko zabo bakoresheje ikaramu.

Uburezi bw'abana bari mu mashuri y'inshuke, aho bashishikarizwa kwiga ndetse bafite n'ibipupe ibikinisho bibafasha mu gusoma ndetse no gusobanukirwa bagafunguka mu umutwe.

Amashuri y'inshuke aho abana bahabwa uburezi bugiye buri mu ngeri nyinshi ndetse bagahabwa n'ibibafasha kumva ndetse no gusobanukirwa, aho imbere y'amashuri yabo haba hashushanyije ibihingwa ndetse n'ibiti bitandukanye.

Uburezi bw'amashuri Y'inshuke aho abana berekwa kandagira ukarabe, bagomba kwita ku isuku igihe cyose bavuye ahantu hatizewe.

Imikino ifasha abana mu mashuri y'incuke kwidagadura aho bakoresha imipira y'amaguru irimo utubara tw'umweru ndetse n'ubururu.

Mu burezi bw'amashuri y'inshuke, aho bahawe ibikoresho bitandukanye byo gukina, imodoka z'ibikinisho ziri mu mabara menshi bityo bigatuma abana bafunguka mu mutwe bakamenya kwisanisha n'isi.

Uburezi bw'abana b'inshuke bari mu mashuri bafashwa kwiga ndetse bagasobanukirwa kandi bakanitabwaho mu buryo bwose bahabwa amata ndetse n'ibindi bibafasha kubaho neza.

Ibigo ndetse n'uburezi bushingiye ku mashuri y'inshuke aho abana bigishwa ndetse bagasobanukirwa kubana n'abandi mu byumba byabugenewe.

Amashuri abanza aho abanyeshuri bahabwa amahirwe yo kwiga ndetse bakanubakirwa ibyumba bishyashya byo kwigiramo kugira ngo uburezi bukomeze bwaguke.

Uburezi bw'amashuri abanza aho ikigo gifite inyubako zigiye zitandukanye cy'urwunge rw'amashuri rwa Tabagwe mu karere ka Nyagatare.

Ikigo cy'amashuri yisumbuye, aho ibyumba byubatswe neza ndetse bifite isuku, hari idarapo ry'Igihugu, byerekana ko ari ikigo gishyigikiwe na Leta kandi gitanga serivise zizewe.

Uburezi bw'amashuri abanza aho abana bahabwa ibitabo bibafasha kwiga neza cyane cyane mu mwaka wa gatatu mu Kinyarwanda, mu mwaka wa kabiri ndetse no mu wa mbere bityo bigatuma batsinda neza ibizami byabo.

Ibikoresho byifashishwa mu kwiga Geometry mu mibare, harimo amarati, amakaramu y'ibiti uducongesho ndetse na kompa zifashishwa mu guca inziga bityo bigatuma umwana akura azi ubuhanga mu mibare.

Uburezi bw'amashuri abanza aho abanyeshuri babiri bicaye muri salo barimo basubiramo amasomo yabo, biga gusiga amabara mu ndabo kugeza ku myaka itatu.

Uburezi bw'amashuri abanza, aho abana bahabwa ibikoresho bitandukanye bikozwe mu biti, bibafasha kwiga ndetse no gusobanukirwa inyuguti ndetse n'itonde yazo.

Uburezi bw'abanyeshuri mu mashuri abanza aho bafungurirwa ibyumba bakabitaha babifashijwemo n'abayobozi ndetse n'inzego z'umutekano zihagarariwe.

Uburezi bw'amashuri abanza aho hari igitabo cyerekana amashusho, harimo ababyeyi baganira ndetse bibaza ku cyo gukora mu gihe ibibazo byateye.

Uburezi bwibanda ku bana bari mu mashuri abanza aho bukoresha ibikoresho bitandukanye kugira ngo bige kandi basusuruke bikaba biri mu mabara atandukanye atuma ubwonko bwabo bukanguka.

Uburezi bwegamiye ku mashuri abanza aho bahabwa ibikoresho byose kugira ngo bidagadure kandi bisanzuraneho bityo bigatuma bagira ubumenyi bugiye butandukanye ndetse bagakura.

Ibyumba by'amashuri aho harimo ikibaho cyanditseho ndetse n'intebe zabugenewe zo kwicaraho harimo n'umukeka, aho abana bicazwa kugira ngo bige kandi bakurikire.

Uburezi bw'amashuri abanza, aho ikigo gifite ibyumba bigiye bitandukanye bifasha abanyeshuri kwiga neza, kandi bakagira ubuzima buzira maze bakanafata.

Uburezikabana bw'amashuri abanza, aho ari inkuru zisomerwa abana ndetse n'inyuguti z'ikinyarwanda, n'itonde ryazo, rituma abana bafata neza kandi bakagira umuhati wo gusoma.

Ibikoresho byifashishwa mu kwiga amashuri abanza cyane cyane mu mibare, aho abanyeshuri bakoresha ibikoresho birimo muri buwate, harimo amarate, kompa ndetse n'amakaramu y'ibiti.

Ibikoresho bitandukanye bifasha abana kwiga ndetse bagasubira mu masomo yabo neza kandi bagatsinda birimo amakayi, amakaramu y'ibiti y'amabara atandukanye, amarati aca ibiziga ndetse n'imirongo igororotse.

Amarembo y'ikigo cya Rukomo gitanga uburezi ku banyeshuri ndetse n'indangagaciro za kinyarwanda bityo bigatuma abana basohoka bafite ubumenyi bukwiriye.

Uburezi bw'amashuri abanza, aho bakoresha ibikoresho byabugenewe mu kwiga imibare, cyane cyane amarati ndetse n'ikaramu z'ibiti.

Uburezi bwa segonderi aho banyeshuri bicaye hamwe bumva ndetse bakurikiye impanuro z'ababyeyi harimo n'abarimu, imbere y'ibyumba by'amashuri aho bicaye mu busitani bw'ikigo.

Ibikoresho byifashishwa mu kwiga Imibare cyane cyane aho abanyeshuri bakoresha baca imirongo igororotse, inziga zimeze neza ndetse bagaconga amakaramu y'ibiti byabo.

Gahunda y'uburezi bw'amashuri abanza, aho abana biga amashusho y'ibinyempande zitandukanye, harimo amabara y'umutuku, icyatsi, umukara ndetse n'umweru, bituma bamenya gutandukanya kimwe ku kindi.

Amarembo y'ikigo cy'amashuri yisumbuye cya apedu Nyamata ndetse n'amashuri abanza aho batanga ubumenyi bugiye butandukanye kandi bategura umwana kugira ibitekerezo bizima.

Ibigo by'amashuri abanza bifite ibyumba bihagije biteye neza kandi hari n'ibikorwa remezo bya kandagira ukarabe mu buryo bwo kwirinda umwanda ahubwo himakazwa isuku.

Uburezi bw'amashuri abanza aho abana bahabwa uburere ndetse n'uburezi ku kwigirira isuku, koza amasahani, bagakoropa mu rugo ndetse n'ibindi bigiye bitandukanye.

Abanyeshuri bo mu myaka mitoya, bicaye ku ntebe, umwe ahagaze ndetse bafite ibikoresho by'ishuri, ibikapu, amakayi ndetse basoma basubiramo ibyo mwarimu yabigishije.

Uburezi bw'abana ba segonderi, bafite ibikoresho bike bitandukanye bibafasha kwiga ndetse no gushushanya neza, nk'ikaramu z'ibiti ndetse n'uducungesho twazo.

Ikigo cy'amashuri abanza cya Wizidomu, gitanga uburezi kuri bose ndetse na serivisi nziza kandi kigatsindisha, bityo abana bagasohoka bafite ubumenyi busabwa.

Uburezi bw'amashuri abanza aho bahabwa ibikoresho bigiye bitandukanye byo kwigiramo biri mu mabara atandukanye: ubururu, umuhondo, icyatsi n'umutuku bityo bikabafasha gufata neza.

Amashuri abanza, aho abana bahabwa ibikoresho bitandukanye bibafasha kwiga ndetse no kwimenyereza imirimo y'amaboko, cyane cyane udupira tw'utudenesi turi mu mabara agiye atandukanye.

Urwego rw'amashuri abanza, aho bafite integanyanyigisho ndetse n'ibibafasha kwiga, igitabo cya Gakire na Gasaro mu mashuri y'inshuke, aho berekana uko abanyeshuri bisanzuranaho.

Uburezi bw'amashuri abanza aho abanyeshuri bubakirwa ibyumba byo kwigiramo biri ku murongo kandi biteye neza, byubakishije amatafari ahiye kandi bikomeye, harimo inzugi z'ubururu ndetse n'amabati y'ibara risa nk'iryo mu nzugi.

Uburezi bw'amashuri abanza, aho abiga bahabwa imyidagaduro ndetse n'ibibuga byo gukiniramo imikino y'amaboko, aho buri munyeshuri afite rugari ndetse akisanzura.

Uburezi bw'abana mu mashuri abanza, aho bigishwa gusobanura neza umuganura ndetse ibiganiro bigacishwa kuri Radiyo Rwanda na televiziyo kugira ngo abana bisange mu muco nyarwanda.

Amashuri abanza, aho abana bahabwa ibikoresho bitandukanye bikoze mu biti ndetse n'amabara menshi agiye atandukanye, harimo arufabe ndetse n'ibindi byinshi.

Uburezi bw'amashuri abanza, aho abanyeshuri bahabwa ibikoresho bibafasha kwiga neza ndetse n'imfashanyigisho, biga imibare n'ibimenyetso bibamo kugira ngo bagire ubumenyi kuri byo.

Mu rwego rw'amashuri abanza, aho mwarimu atanga ikigwa, yibanda ku mibare aho bashaka icyita rusange bityo abana bakamenya kwiga ndetse bakagira ubumenyi bwiza butandukanye.

Amashuri abanza ndetse n'uburezi bwerekeyeho aho abana bicaye mu ishuri barimo kwiga basoma ibyanditse ku kibaho imibare igiye itandukanye ndetse n'ibishushanyo byanditse bimanitse mu nkuta z'ishuri.

Uburezi bw'abanyeshuri mu mashuri abanza aho bahabwa inyigisho zitandukanye ku nyamaswa zo mu rugo ndetse n'izo mu gasozi harimo inkoko, inkwavu ndetse n'izindi.

Icyumba giteguye neza, kirimo ibisabwa kandi cyaka neza, harimo: ameza, intebe mu mabara yose atandukanye, bifasha abana bari mu burezi bw'amashuri abanza kwiga neza ndetse no gutegura ubwonko bwabo.

Ishuri runaka ry'amashuri yisumbuye ahari ibyumba byo kwigiramo n'abana bari ku murongo umwe ndetse n'umwigisha wabo abarongoje imbere.

Uburezi bw'amashuri yisumbuye, aho ababyeyi basura ndetse bakareba ibyo abana babo biga, batembera mu mashuri yabo kandi babagira n'inama.

Abanyeshuri bari mu mashuri yisumbuye, aho bicara hamwe bagatega amatwi kandi bambaye n'udupfukamunwa, mu mpuzankano y'umweru ndetse na kaki bityo bigatuma bakurikira neza.

Uburezi mu mashuri yisumbuye aho abanyeshuri bahabwa imikoro itandukanye y'Imibare, bagasubiramo bakoresheje imashini zibara kandi bahana n'ibitekerezo mu buryo butandukanye.

Amarembo y'ikigo cya segonderi gitanga uburezi ku bana ndetse abanyeshuri biga muri TTC Matimba aho bafite indangagaciro ndetse n'ibindi byinshi bahakura.

Uburezi bw'abanyeshuri bari ku murongo, biga mu mashuri yisumbuye, abakobwa ndetse n'abahungu, aho biga uburyo butandukanye bwo kwitoza ndetse bagira umuco mwiza.

Abanyeshuri bari mu mashuri yisumbuye, batandukanye harimo abahungu n'abakobwa, aho baganira ku masomo yabo ndetse banisanzuranaho, bityo bigatuma batsinda neza.

Uburezi bw'abana segonderi aho bari mu cyumba cy'amashuri bahabwa amasomo agiye atandukanye kandi bigishwa kwitwara neza.

Uburezi bw'amashuri yisumbuye, aho abana bahagaze hamwe, barimo bisanzuranaho ndetse bifotoza, byerekana ko babanye neza kandi bafite ubumwe hagati yabo.

Uburezi bw'amashuri yisumbuye aho abanyeshuri mu gihe cya Kovide bahagaze mu ntambwe ya metero imwe kandi bakora n'isuku y'intoki zabo ku bikorwaremezo byabugenewe.

Uburezi bw'amashuri yisumbuye aho komite ishinzwe kwita ku burezi igenzura ikareba neza uko amasomo atangwa ndetse n'ikibura kugira ngo ireme ry'uburezi rikomeze ritere imbere.

Ibigo by'amashuri ya secondaire ndetse n'uburezi bw'abana mu mashuri yisumbuye, aho bateranirijwe hamwe mu kigo runaka, bari guhabwa impanuro ndetse mu mpuzankano zigiye zitandukanye.

Amashuri yisumbuye ndetse n'uburezi bwerekeye aho abanyeshuri bahabwa amahugurwa ndetse bagahabwa n'amasomo ajyanye n'ibyo biga kandi bakagira indangagaciro zikwiriye.

Uburezi bw'amashuri yisumbuye, aho abanyeshuri bambaye udupfukamunwa birinda Kovide, kandi bubahiriza intera ya metero, kugira ngo hatagira uwanduza undi, kandi bagakomeza kwiga banakurikikira amasomo yabo.

Serivisi z'uburezi ku bana biga mu mashuri yisumbuye, aho hari kipe ishinzwe kureba neza ndetse no kwita ku buziranenge bw'uburezi ndetse n'ubw'ibikoresho byifashishwa.

Uburezi bw'amashuri yisumbuye aho abana bitabwaho bugahabwa uburyo bwo kwiga ndetse baganirizwa mu gihe babonye umwanya bityo bikabafasha kugira ejo hazaza heza.

Aburezi bw'amashuri yisumbuye aho ikigo gifite ibyumba byo kwigiramo ndetse n'ibindi bikoresho bigiye bitandukanye, ahaterwa ubusitani kugira ngo burinde kumagara kandi hari n'ikigega gikusanya amazi y'imvura.

Itsinda ry'abagenzuzi ndetse n'abarimu bashinzwe kureba neza ubuziranenge bw'amashuri yubakwa aho amashuri ya segonderi hashyirwa abashinzwe kureba neza ko ibyo bintu bigenda neza.

Uburezi bwa segonderi abahungu n'abakobwa, bahabwa amahirwe angana bambaye impuzankano zitandukanye zirimo ubururu, umweru ndetse n'izindi, bahabwa impanuro inzego z'umutekano ndetse n'abayobozi bagenzi babo.

Abanyeshuri bari mu kigo cy'amashuri yisumbuye aho barimo basubiramo amasomo yabo ndetse baganira ko bagomba gutsinda ikizami.

Ikigo cy'amashuri yisumbuye, aho abanyeshuri bicara ku ntebe zateganyijwe bagahabwa amasomo ndetse bagasubiramo n'ibyo bize.

Inyubako yigirwamo n'abanyeshuri mu kigo cya segondari, aho abanyeshuri bahabwa ubumenyi ndetse bakigira n'ahantu hameze neza ndetse hafite isuku.

Abanyeshuri mu mashuri yisumbuye aho bigishwa imirimo yo gutaka ndetse no gukora ibihangano bigiye bitandukanye birimo imitako n'imirimbo.

Amashuri yisumbuye, aho ibikorwa remezo byubatse muri parikingi harimo imodoka y'umuyobozi ndetse hari n'amazu yerekeye ku gikoni ndetse n'inzu y'uburiro.

Ikigo cy'amashuri kisumbuye ndetse n'uburezi bwabo aho abanyeshuri bicaye mu busitani bw'ikigo bambaye impuzankano zitandukanye z'umweru ndetse n'umuhondo bahabwa ibiganiro uko bakwiye kwifata.

Uburezi bw'abana mu mashuri yisumbuye aho bateraniye hamwe ku murongo, abahungu n'abakobwa bambaye impuzankano zigiye zitandukanye aho babwirwa uko bakwiye kwitwara ku bayobozi.

Uburezi bw'amashuri ya kaminuza ndetse n'ay'imyuga n'ubumenyigiro, aho hakorwa ubukangurambaga mu gutanga amaraso ndetse no gufasha imbabare bityo bigakiza ubuzima bwa benshi.

Uburezi bwerekeye abanyeshuri biga muri aminuza ndetse n'ibigo bishinzwe guteza imbere ubumenyigiro ndetse n'ikoranabuhanga, aho abanyeshuri bigishwa gukora ubugeni ndetse n'ibindi mitako.

Icyumba cy'amashuri muri Kaminuza y'u Rwanda, ibigo by'iburasirazuba bwo hagati y' Afurika ndetse ahari intebe ziteganyijwe neza zo kwicaraho.

Amashuri ya kaminuza y'imyuga n'ubumenyigiro, aho barimo bategura ndetse biga ku buryo ki bahabwa ubumenyi, mu bijyanye n'imitako ndetse n'ubugeni muri rusange.

Amashuri za kaminuza aho abanyeshuri biga iby'ubuzima, baba bari mu nyubako yabugenewe isuzuma ibizame, bareba bakoresheje ibikoresho byabugenewe kugira ngo babashe kuvura neza.

Amashuri ya kaminuza ndetse n'ay'imyuga n'ubumenyingiro aho umunyeshuri atambuka agana aho yigira, afite igikapu kirimo ibikoresho bigiye bitandukanye ndetse na telefone imufasha kwiga neza.

Ibikoresho byifashishwa mu kubumba ibintu karemano hakoreshejwe ibumba ndetse bikaba ari igice cy'ubugeni, cyerekeye kwiga imyuga ndetse n'ubumenyingiro.

Amashuri ya Kaminuza ndetse n'imyuga n'ubumenyingiro, aho bahabwa ubumenyi ku bijyanye n'ubugeni, gushushanya, gusiga amarange ndetse n'ibindi bituma ahabazengurutse haba hasa neza kandi bakiyongera n'imirimo mu buryo bwose.

Amashuri ya kaminuza aho abanyeshuri bahabwa ubumenyi ku bijyanye n'Imibare ndetse n'amahuzo agiye atandukanye bityo bikabafasha gukemura ibibazo kuko baba bateguwe neza.

Uburezi bwa Kaminuza ndetse n'amashuri y'imyuga n'ubumenyingiro, aho bakora ibihangano n'intoki zabo ndetse bibafasha kwihangira imirimo mu gihe bageze hanze kandi akaba ari na bimwe mu bigize ubugeni.

Uburezi bwa kaminuza ndetse n'amashuri y'imyuga n'ubumenyingiro aho abanyeshuri bahabwa amahugurwa ndetse n'ubumenyi mu kwihangira imirimo ndetse no kugira ubugeni.

Uburezi bwa kaminuza ndetse n'amashuri y'imyuga n'ubumenyingiro aho abanyeshuri bahabwa ubumenyi mu gukora ibihangano byabo mu buryo bugaragara kandi bakagira gahunda y'ubugeni ituma biteza imbere kandi bakaba isoko ry'umurimo.

Amashuri ya kaminuza ndetse n'ay'imyuga n'ubumenyiyingiro, aho ishuri rifite icyumba cyo kwigiramo, giteye neza, kirimo intebe, zifashishwa mu kwiga ndetse abanyeshuri bameze neza.

Amashuri ya kaminuza ndetse n'ay'imyuga n'ubumenyingiro. Aho abanyeshuri bakora byinshi bitandukanye. Kwihangira ibyo bakora ndetse bagashyiraho n'ubumenyi ku bugeni, bityo bigatuma bihangira imirimo.

Amashuri na za kaminuza ndetse n'ay'imyuga n'ubumenyingiro, aho bateraniye hamwe bambaye neza imyambaro y'impuzankano yo gusoza amashuri yabo bitegura kujya ku isoko ry'umurimo.

Amashuri ya kaminuza ndetse n'aya guteza imbere imyuga, aho abanyeshuri bagenda baganira ndetse bahabwa bahana n'ibitekerezo ku masomo babo biga.

Amashuri makuru ndetse na za kaminuza, hamwe n'ibigo bishinzwe gutanga ubumenyi bw'ikoranabuhanga ndetse ngiro, aho bahabwa impamyabumenyi zabo ndetse bajya hanze kugira ngo bajye ku isoko ry'umurimo.

Uburezi bwa Kaminuza ndetse n'ibigo by'imyuga n'ubumenyigiro, aho icyumba runaka gitegurwa haterwa n'inte kugira ngo abanyeshuri bigiremo kandi bafate neza.

Abanyeshuri biga muri kaminuza bicaye hamwe batekereza kandi biga ku masomo bahawe bakoresheje imashini ndetse na mudasobwa kandi basubiramo neza amasomo yabo.

Uburezi bwa Kaminuza, aho abanyeshuri biga ku bijyanye n'imitako ndetse n'ubugeni muri rusange bityo bigatuma hiyongera ubumenyi ndetse n'ubuhanga bwabo.

Amashuri makuru ya za kaminuza ndetse n'ay'imyuga n'ubumenyigiro, aho abanyeshuri bicara bagakurikikira mwarimu kandi baga ibikenerwa byose kugira ngo bagire ubumenyi bukwiriye.

Amashuri ya kaminuza ndetse n'ashinzwe guteza imbere imyuga n'ubumenyingiro, aho biga ku bijyanye n'ubugeni, kwihangira imirimo bakoresheje amaboko bityo bigatuma baba indashyikirwa ku isoko ry'umurimo.

Amashuri n'uburezi bwa kaminuza ndetse n'ibigo byita ku ikoranabuhanga ndetse n'ubumenyi rusange aho abanyeshuri bigishwa kwihangira imirimo ndetse bakora n'imirimo y'ubugeni.

Amashuri yisumbuye na za kaminuza ndetse n'ibigo bishinzwe guteza imbere ubumenyingiro n'ikoranabuhanga aho abanyeshuri bahabwa ubumenyi mu gukora imitako ndetse n'ubugeni muri rusange bijyanye n'umuco nyarwanda.